Inzu ikorerwamo ibikoresho bikomoka ku mbaho harimo: intebe, ibitanda, ameza, ndetse n'ibindi. Haragaragaramo n'umuntu bigaragara ko akora umurimo wubaji muri iyi nzu.

Inyubako iri kugaragaramo ibikoresho byinshi bakoresha igihe bari gusoma. Harimo:intebe bicaraho, ameza baterekaho ibitabo igihe bari gusoma, ndetse n'utuntu tumeze nk'amatabure barambikamo ibitabo bipanze.

Icyumba kirimo abana b'abakobwa bari kwiga umwuga wo kudoda, haragaragara imashini bafite zizwi nk'ibyarahani zidodaga, bicaye ku ntebe zikozwe mu mbaho zizwi nka masheze.

Ishuri ryigisha ibintu bijyanye n'ubugeni. Umwarimu ari kumwe n'umunyeshuri umwe muri benshi bari mu ishuri amusobanurira uko yagakwiye gukora igishushanyo yamweretse kandi ku bisika by'iri shuri hagaragaraho ibintu bashushanyije.

Inzu ikorerwamo ibikorwa bijyanye no kwigisha akazi ko kudoda, haragaragaramo imashini nyinshi cyane zikoreshwa mu bikorwa by'ubudozi zizwi nk'icyarahani.

Icyumba cy'amashuri kirimo abana b'abakobwa ndetse n'abahungu, bigaragara ko ariho bigira amasomo yabo ya buri munsi. Buri umwe muri bo afite impapuro ndetse n'amakaramu akoresha igihe ari kwandika. Bicaye ku ntebe z'ibiti zizwi nka pipitire.

Ahantu hari abanyeshuri, bagizwe n'abakobwa ndetse n'abahungu, aho hagati yabo hariho, mwarimu bigaragara ko, ari kubakosora ku mukoro yabahaye, harimo abafite ibikapu, hari n'abandi bafite amakayi, ndetse n'amakaramu bose bafashe ku ikayi imwe mwarimu afite.

Amazu menshi cyane, bigaragara ko bigishirizamo amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro. Abanyeshuri benshi cyane, bigaragara ko bari gushyira mu bikorwa ibyo bize. Bamwe muri bo, bambaye ingofero mu mitwe yabo, ibarinda impanuka.

Abantu benshi ariko by'umwihariko hagaragaramo abakobwa batatu bigaragara ko bakora umurimo wo kubaka. Abandi bagaragara ko bazinga ibyuma bikoreshwa mu nyubako, bamena beto. Hagaragaramo abandi, bisa n'aho bakora imirimo yo guhereza abantu bubaka.

Abahungu n'abakobwa bakora inkweto, bari mu nzu imwe iririmo ibikoresho bitandukanye, harimo imakasi, indobo ndetse n'ibikoresho bikozwe mu mbaho bizwi nk'amezeza ari yo baterekaho inkweto igihe barimo bazikora.

Icyumba kinini bigishirizamo, abanyeshuri benshi cyane abahungu n'abakobwa, abarimu babiri babigisha ndetse n'ikibaho bandikaho igihe bari kwigisha, hamanitseho n'agapapuro bareberaho ingengabihe.

Ahantu bigishiriza amasomo ajyanye n'ubumenyi ngiro by'umwihariko ibijyanye no gukora umurimo wo kudoda imyambaro. Aho bifashisha imashini izwi nk'icyarahandi.

Icyumba cy'ishuri kirimo abanyeshuri b'abakobwa, ndetse n'abahungu bicaye ku ntebe, zikozwe mu biti zizwi nka pipitire, bafite amakayi, ndetse n'amakaramu, bigaragara ko bari kwandika ibyo bari kureba ku kibaho kiri imbere yabo.